Imiti ni myiza cyane, usanga umuntu iyo yayiteye mu myaka, imyaka imeze neza, nta dusimba twayigeraho, nta dukoko, ukabona imyaka ikuze vuba, ikera neza, igatanga umusaruro, ariko iyo ugiye kuyitera, uba ugomba kubanza ukirinda ko ishobora kukwangiza.

Isombe ni nziza cyane, igufasha kuba wabona indyo yuzuye, iyo uyigurishije ubona amafaranga, muri rusange ugasanga isombe ifasha abantu benshi batandukanye, kuko ahantu hose yahera kandi ukaba wayigurisha kubona amafaranga ukiteza imbere, cyane ko n'abanyeshuri babasha gu.

Ibiti by'imbuto ni byiza cyane, kuko ubasha kubirya ubuzima bwawe bukaba bwiza cyane, kuko birinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye. Iyo ubiriye, bishobora kuvura amaso, cyangwa se ukabigurisha ukabonamo amafaranga za mbuto zezemo.

Icyayi ni cyiza cyane tukinywamo tukakivanga n'amazi turakiywa, dushobora kukigurisha mu mahanga bakaduha amafaranga y'amanyamahanga, tukabona amafaranga. Abagica, abacyaha, bakabona amafaranga bakiteza imbere, n'uwagihinze na we akiteza imbere.

Ibigori ni byiza cyane kuko iyo bihinze neza abantu benshi barabikunda bakihaza mu biribwa, abana bakabona igikoma, bakaryamo umutsima, ugasanga ibigori byahingishijwe inyongeramusaruro biba ari byiza cyane, kuko biba biboneye byarabaye binini.

Ibihingwa ngandurarugo ni byiza cyane, bituma urugo rubasha kwihaza ku mirire, aho abana waba ufite bashobora kuba bakwiga neza, ubwo batabura ibyo kurya cyangwa se bakagurisha ukabona amafaranga y'ishuri akiteza imbere nk'umuryango muri rusange, umwana akaba yabona imyambaro ndetse no kubona indyo yuzuye.

Ibinyampeke ni byiza cyane bituma umuntu abirya akabaho neza akagira ubuzima bwiza bikamurinda indwara bikamuwubaka umubir,i iyo ubihinze cyane usanga umuntu yejeje ibishyimbo biragufasha ukabona umusaruro uhagije, nta muntu urya atariye ibishyimbo.

Ubyobwa ni kimwe mu binyamavuta, bukunda kwera mu Burasirazuba, ahantu hari ubutaka bugufiya bw'umusenyi, kuko buraribwa cyangwa se bukagurishwa, bushobora no gukorwamo amavuta atandukanye. Iyo uburiye, urushaho kumererwa neza, ubuzima bwawe bugakura nta burwayi buhura na bwo.

Umuceri ni mwiza cyane, abantu barawukunda, iyo ugeze mu rugo, usanga abantu bose bafite umuceri, kuko usanga aribyo biryo abantu barya cyane, bitera imbaraga, ukunda kwera ahantu mu gishanga, hari amazi menshi.

Ibinyampeke ni byiza cyane bitwongerera umusaruro, aho ushobora guhinga ibinyampeke, urugero ibishyimbo, wahinga ibiro bitanu ukaba wakeza icumi cyangwa se bitanu. Bityo umusaruro w'ibinyampeke cyane turabirya, turabigurisha bikaba havamo ibindi bintu nk'amandazi.

Ibinyampeke ni byiza cyane biraribwa, bigafasha umuntu kutarwara bwaki cyangwa se indwara zigendanye n'imirire mibi, ibinyampeke urabihinga kugira ngo bizongere bitange umusaruro, ukaba wabonamo amafaranga menshi atandukanye.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza kuko ziba ziboneye ba mukerarugendo babasha kuzireba bitwaje amadorari, buri wese aba yumva imunogeye kuko bigufasha kumenya inyamaswa zo mu gasozi nk'inyoni, ibisiga n'izindi.

Inyamaswa yo mu gasozi nziza cyane kuko iyo uyibonye ubasha kuyitekerezaho byinshi bitewe nuko ikozwe. Iyo ubonye ingurube yo mu gasozi bibaza uburyo itandukanye n'iyo mu rugo. Ariko igufasha mu kubungabunga ibidukikije. Inyamaswa zo mu gasozi cyane kuko zikurura ba mukerarugendo bakeneye kuyireba uko iteye.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane zifasha abantu mu kubungabunga ibidukikije. Urugero inyamaswa zo mu gasozi ziba mu amazi amafi, imisambi, imbata ni nziza ncyane, kuko imbata ziraribwa, zigatanga umusaruro. Iyo uzigurishije ubona amafaranga.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane zituma abantu babasha kubaho neza, kuko inyamaswa imwe irinda abantu kubaho neza kuko ishobora kurya utundi tunyamaswa dushobora kwangiza abantu.